Ni ukwamamaza kw'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi k'ubantu, kugira ngo nibaramuka barwaye batarembera mu rugo bivuze mu buryo bworoshye.

Aha ngaha uko bigaragara, ni hirya gato y'umuhanda, ndetse hari icyapa kinini cyamamaza, cyerekana ko batanga ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ndetse n'ubw'abantu mu kwivuza, n'ubundi bwishingizi bw'abantu, n'ubw'ibihingwa.

Ahangaha ni icyapa cyamamaza ubwishingizi bumenyesha abantu ko tugeze mu bihe by'imvura bagomba kwitegura bakaba bagura ubwishingizi ku buryo baramutse batewe n'ibiza ubwishingizi bwabagoboka ntibangirizwe cyane.

Ahangaha bari kwamamaza ikigo cy'ubwishingizi mu kwifuza, kugira ngo uwishyuye ubwishingizi atarembera mu rugo, ahaubwo yivuze mu buryo bworoshye.

Aha ngaha ni itangazo ryamamaza ndetse uyu muntu uri kuri iri tangazo bigaragara ko na we yishimye. Riragira riti: wihangayika ohereza ibisabwa byo kumenyesha impanuka igihe cyose, aho uri hose." Ibi bintu ni byiza cyane.

Ahangaha haragaragaraho umugabo wifashe mu maso ndetse ahangaha bikaba ari ukwamamaza ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi bwo kumenyesha ko utagomba kugira impungenge mu bucuruzi bwawe.

iki ngiki ni icyapa cyamamaza ikigo cy'ubwishingizi cyerekana ko batanga ubwishingizi, hasi hakaba hariho na nimero wakoresha ushaka kumenya amakuru arambuye.

Nkuko bigaragara aba ngaba ni abantu bari mu kinyabiziga kigenda gikoresheje moteri. Urabona ko bicaye mu modoka kandi bishimye, bagiye mu biruhuko by'iminsi irindwi.

Iri ngiri n'itangazo nk'uko mubibona hariho umubyeyi uhetse umwana we, berekana ko ingoboka ya kashi yishyuwe. Aba bana bameze nk'abafite ubwishingizi bitewe n'uburyo bamwenyura.

Aha ngaha nk'uko bigaragara, ni umugore wicaye umeze nk'uri kuruhuka, ndetse hakaba handitseho ngo uyu munsi uwuharire kwiyitaho no kuruhuka, ndetse kuruhuka ni byiza cyane ku baturarwanda n'abatuye isi.

Iri ngiri ni itangazo ryamamaza. Ndetse hariho ikamyoneti itwaye indi modoka. Ndetse kikaba ari ikigo cy'ubwishingizi kikubwira ngo wihangayika mu gihe cyose kwishyura imodoka itwaye iyawe, mu gihe ukoresha bwa bwishingizi bwabo. Ni abadahemuka.

Iri ngiri ni itangazo ryamamaza ry'ubwishingizi, rishishikariza abantu gushyira inzu zabo mu bwishingizi, mu gihe zaba zitewe n'ikiza icyo yaba aricyo cyose.

Ahangaha ni ikigo gitanga ubwishingizi, kikaba kirimo kiramamaza kigira kiti: Ibyishimo by'umuryango ni ukudahangayikira ahazaza hamwe n'ubwishingizi bwo kwivuza bwawe n'ubw'umuryango wawe. Kandi ni byiza ku Banyarwanda.

Iyi ngiyi ni porugaramu, ikoreshwa n'ibigo by'imari. Ahangaha ikaba irimo irerekana uburyo uba wagiye ukoreshamo amafaranga yawe, ikurikije...

Urunguru mu rubuga nkoranyambaga rwo kuri murandasi rukaba rukoreshwa n'ibigo by'imari mu kohererezanya no kwakira amafaranga mu buryo bwo koroshya ubuhahirane mu baturarwanda.

Uru nguru ni urubuga rukoreshwa kuri murandasi kugira ngo abantu babashe kohererezanya amafaranga, banayakire, abagereho bakomeze ibikorwa byabo kugira ngo byoroshywe, mu kazi kabo ka buri munsi.

Uru nguru ni urubuga rw'ikigo cy'imari kibikira abantu amafaranga kikana babikurira, kikanabafasha kuyohererezanya gikoresheje ikoranabuhanga rya murandasi, uru rubuga rufasha abantu pe.

Iri ngiri ni iduka ricuruza imyambaro myinshi y'ubwoko butandukanye iy'abagabo, iy'abagore ndetse n'indi myambaro yose kandi myiza cyane nk'uko bigaragarira ijisho.

Iringiri ni iduka ricuruza imyambaro. Ndetse ikaba ari imyambaro yiganje iy'abagore n'abakobwa. Iyi myambaro ni myiza cyane, kuko iberanye n'umuco.

Aha nk'uko bigaragara ni mu iduka ricuruza ibintu bijyanye n'imyenda yo kwambara nk'uko iringiri muribona ni umupira wo kwifubika mu gihe k'imbeho.

Iri ngiri ni iduka rirerire kandi ryisanzuye ricuruza ibijyanye n'imyambaro kandi myiza ibereye abanyarwanda.

Iri ngiri ni iduka ryisanzuye ririni. Ricuruza imyambaro itandukanye kandi myiza. Iy'abagabo, iy'abagore ndetse n'iyabana, iteye amabengeza.

Iringiri ni iduka rinini. Ni iduka ricuruza ibigendanye n'imyenda. Hakaba hacururizwa imyenda y'ubwoko bwose kandi myiza, y'abagabo, y'abagore ndetse n'iy'abana.

Uyu mugore urimo uramwenyura, ahagaze mu iduka rye ricuruza ibintu: ibyokurya, ibyokunywa, ndetse n'ibindi bituma tugira ubuzima bwiza.

Aha ngaha hari abagabo babiri, umwe w'umunyarwanda, ndetse n'undi w'umunyamahanga, aha hantu hatangirwa ubufasha bugendanye no guhaha ibintu byinshi bikenerwa mu buzima bw'ibanze bwa buri munsi.

Aha ngaha ni abagabo babiri bahagaze imbere y'ikamyoneti itwara ibicuruzwa n'ibindi bintu ndetse bakaba barimo baragura ikamyoneti.

Aha ngaha kuri iyi nyubako uko bigaragara, bitewe n'ibirangantego bihari, ni ahantu hashobora kuba hacururizwa ibinyabiziga bigiye bitandukanye kandi byiza bikomeye nk'uko bigaragarira amaso.

Ahangaha uko bimeze, hari abagabo batatu; bakaba baje guhererekanya. Harimo uwaje kugura iyi kamyoneti nziza cyane, azajya yitwariramo ibintu bye yihahiye, gakegake bucece.

Aba bagabo bahagaze imbere y'ikamyoneti bafite icyapa cyanditseho akagera. Iyi kamyoneti ni nziza pe kandi n'umweru ifite ibirahuri bisa umukara.

Hano ni abantu babiri bari imbere y'imodoka nini yo mu bwoko bwa makuzungu, ndetse bakaba umwe yaraje kugura imodoka muri iki kigo cy'akagera gicuruza ibinyabiziga byiza cyane.

Nkuko bigaragara aba bantu baje kugura imodoka yo mu bwoko bw'ivatiri mu kigo cy'akagera kigurisha imodoka nziza, iyi modoka ni nziza cyane.

Ikingiki ni ikinyabiziga kigenda gikoresheje moteri. Iyi ngiyi ikaba ari imodoka nini ya toyota, iyi modoka ikaba iri ku isoko irimo iragurishwa.

Ahangaha uko bimeze ni mu nyubako y'ikigo cy'imari hatangirwa serivisi zigendanye kubitsa kubikuza no gutanga inguzanyo y'amafaranga, hariya ku ntebe yicaye umugabo wambaye ikote ry'umukara arimo haraha ubufasha uyu mugore uri kubara amafaranga.

Iki ngiki ni igiceri, akaba ari amafaranga y'u Rwanda yakoreshwaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'irindwi, akaba aribwo yatangiye gukoreshwa.

Aha ngaha nk'uko bigaragara, ni umugabo ufite inoti nyinshi mu ntoki, ndetse akaba ameze nk'uri imbere ya mudasobwa, ndetse akaba aha ngaha agiye guhererekanya amafaranga.

Nk'uko bigaragara, uyu mugabo wicaye ari kuri mudasobwa, aha hantu ari hameze nk'aho batangira amafaranga. Mbega mudasobwa nziza!

Aha ngaha uko bigaragara ni mu biro, ndetse hakaba hari amafaranga ari mu mizingo menshi cyane y'inoti, ndetse hakaba hari n'icyuma kifashisha mu kuyabara.

Aha nk'uko bigaragara, uriya mugabo ari gusuka amata ayavana mu gicuba ayashyira mu cyuma cyabugenewe gishinzwe kubika aya mata kugira ngo atangirika kugira ngo agezwe ku ruganda atunganywe nta kibazo aragira kuko aya mata arimo arasuka ni meza cyane.

Uko bigaragara iyi ngiyi ni inzu ikoreramo ubucuruzi bw'ibyo kurya, kuko urabona ko harimo amata meza y'ikivuguto y'u Rwanda ndetse n'ibindi byose byo kurya bikomoka ku ngano.

Icyumba, kirimo ibisabo birimo amata yatunganijwe avuye mu ruganda kandi aya mata ni meza, harimo n'igicuba kirimo amata aya mata, ashobora kuba aryoshye.

Ameza y'umweru hateretseho akantu gafukuye ku mabara y'umukara ndetse kanapfumuye, hakaba hariho amagi atatu ndetse n'akandi kantu gakunzwe gushyiramo umunyu.

Aya ngaya ni amandazi meza cyane, aya mandazi bayakoresha bari kuyarya akaba akozwe mu ifarine nziza cyane bakayateka mu mavuta.

Iyi ngiyi uko igaragara ni indobo bacururizamo amandazi, iyi ndobo isigayemo amandazi abiri, kariya gakoresho karimo kifashishwa mu gufata amandazi, wa mandazi we uri meza pe.

Ahangaha ni ahantu hazwi nko ku iduka hakaba hacururizwa amazi meza atunganyijwe yo kunywa.

Aha ni ahantu hacururizwa ibyo kurya byoroheje harimo amata meza y'inka zo mu Rwanda, icyayi ndetse n'ibyo kurya bikomoka ku ifu y'ingano.

Aha ngaha nkuko bigaragara umusaruro ukomoka ku bworozi, akaba ari amata yatunganyijwe mu ruganda. Akaba ari amata ashobora kubikwa igihe kirekire. Aya mata kandi akaba ari nameza kuyanywa kuko aryoha.

Ahangaha hari ibicuba byinshi birimo amata, ni mu ikusanyirizo aho bafata amata avuye kuborozo kugirango atunganirizwe muruganda agumane umwimerere wayo nkamata meza

Aha ngaha ni ahantu bacuruza ibiribwa byo kurya ndetse hari iteremusi ishobora kuba irimo icyayi cyangwa igikoma ndetse harimo ibyo kurya bizwi nka capati.

Ahangaha ni ahantu hacururizwa ibyo kurya byihuse, ndetse uyu muntu uko bigaragara, afite icyo kurya gikozwe mu ifu y'ingano itunganyijwe neza.

Ibi ngibi ni ibyo kurya biba bitunganyijwe, hishishijwe ifu y'ingano yatunganijwe inyuzwe mu ruganda ndetse n'ibirayi, bikaba ari ibyo kurya biryoha.

Ahangaha hahagaze ishusho iforomye nk'umugabo urimo uraseka ufite terefoni igendanwa, yanditseho ngo ubonye amafaranga magana atanu kuri konti yawe.

Uru nguru ni urubuga rwo kuri murandasi. Uru ni urubuga rukorshwa n' ikigo cy' itumanaho mu kohererezanya amafaranga no kwakira amafaranga mu buryo bworoshye.

Uyu muntu afite igikoresho cy'itumanaho cye mu ntoki kizwi nka telefoni ngendanwa, akaba arimo arakoresha porogaramu yifashishwa n'amabanki mu kohereza no kwakira amafaranga mu buryo bworoshye.

Ahangaha ni ahantu hatangirwa ubufasha kuri murandasi mu rwego rwo koherereza no kwakira amafaranga, binyuze mu gikoresho cy'ikoranabuhanga ryifashishwa mu kuyakira no kuyohereza ku bakiriya b'icyo kigo cy'ikoranabuhanga.

Uru nguru ni urubuga rukorera kuri murandasi, rwifashishwa mu kwishyura no kwishyurwa amafaranga bikoreshejwe mudasobwa cyangwa se terefone igendanwa,

Uru nguru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse uru rubuga rukaba rwifashishwa mu kwishyura, mu kwakira amafaranga mu buryo bworoshye cyane.

Iyi ngiyi ni porogaramu yifashishwa muri terefoni igendanwa, ikaba yifashishwa n'ikigo cy'imari cy'itumanaho mu kohereza no kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Iki ngiki ni icyemezo cy'ubucuruzi gihawe uwitwa Batamuriza Hadjara, akaba agihawe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro y'u Rwanda ndetse kikaba kimara amezi atatu.

Uru nguru n'urupapuro rwifashishwa mu bucuruzi ndetse iyi ngiyi ikaba ariy'inyemezabwishyu yerekana ko umuntu yatanze imisoro n'amahoro, ukaba uyihabwa n'ikigo cy'Igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.

Uru nguru ni urupapuro nyemezabwishyu rukoreshwa mu bucuruzi, rukaba rwerekana ko iki kigo cya Tarama Rwanda kimze kwishyura amafaranga cyari cyakoresheje.

Iyi ngiyi ni inyemeza bwishyu. Ni inyemeza bwishyu yerekana ko nta misoro ubereyemo ikigo cy'Igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.

Uru nguru ni urupapuro rukoreshwa mu bucuruzi, rukaba ruhabwa umucuruzi wemerewe gucuruza mu buryo bwemewe n'amategeko, rukaba rutangwa n'ikigo k'igihugu gishinzwe iterambere ry'u Rwanda n'Abanyarwanda.

Uru nguru ni urupapuro rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, rwerekana ko wamaze kwishyura imisoro n'amahoro by'igihugu cyacu.

Urunguru ni urupapuro nyemezabwishyu rw'imisoro n'amahoro rwerekana ko wamaze kwishyura imisoro rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.

Uru nguru ni urupapuro, rwifashishwa mu bucuruzi, rukaba rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Aha ngaha hakaba hari inyemezabwishyu yari ihawe ikigo cyari kimaze kwishyura imisoro.

Uru nguru ni urupapuro rwifashishwa mu bucuruzi, rukaba rukoreshwa n'abacuruzi mu buzima bwabo bwa buri munsi, rukaba rwerekana uburyo amafaranga yakoreshejwe umunsi ku wundi.

Uru ni urupapuro rw' inyemeza bwishyu. Ikaba yahawe uwitwa Bushyirahamwe ,ikaba ari inyemezabwishyu yerekana ko yamaze kwishyura imisoro n' amahoro , akaba yayihawe n' ikigo k' igihugu gishinzwe imisoro n' amahoro.

Ubu nguru nk'uko bigaragara, ni urupapuro rw'ubucuruzi. Uru rupapuro ruriho ibicuruzwa byacurujwe, rwerekana n'amafaranga byaguzwe.

Uru nguru ni urupapuro rwo mu bucuruzi rugufasha kukwereka ibintu uba wagiye ukoresha, amadeni ufite, rukakwereka amafaranga uba wakoresheje n'ayakoreshejwe, n'ibyakozwe n'ayo byaguzwe kugira ngo byoroshye ubucuruzi.

Iyi ngiyi ni inoti y'amafaranga ibihumbi, aya mafaranga akaba ari ay'igihugu cy'abaturanyi cya Tanzaniya.

Aha ni ahantu batangira ubufasha bwo kuvunja amafaranga y'abanyamahanga, mu gihe ushaka andi bitewe n'impamvu z'urugendo cyangwa se iz'ubucuruzi ugiye gukorera mu gihugu urimo.

Aba ngaba ni abantu babiri bagiye guhererekanya amafaranga yo mu bihugu atandukanye, mu buryo bwo kuyavunja kugira ngo bayakoreshe mu mirimo yabo.

Ibi ngibi ni ibiro. Ibi bibiro bitangirwamo serivisi zo kuvunjisha amafaranga, ku buryo yifashishwa mu bucuruzi bwambukiranya imipaka.

Nk'uko bigaragara ni ahantu heza cyane bakorera igikorwa cyo kuvunjisha amafaranga, kugira ngo byorohereze ubucuruzi ku bantu baba baturutse hanze y'imipaka y'u Rwanda.

Iyi ngiyi ni inzu ikorerwamo ubucuruzi bwo kuvunjisha amafaranga, bayavana mu manyaRwanda bayajyana mu manyamahanga, cyangwa bayavana mu manyamahanga bayashyira mu manyaRwanda.

Aha ngaha ni ku biro. Ndetse ahantu hacururizwa amafaranga binyuze mu buryo bwo kuyavunjisha. Bakaba bavurisha amafaranga yo mu bihugu bitandukanye.

Aha ngaha nk'uko bigaragara ni mu cyumba gikorerwamo kuvunjisha amafaranga y'amanyamahanga mu manyarwanda cyangwa se amanyarwanda mu manyamahanga. Aha ngaha rero, hakaba hari ishusho yerekana igiciro cyayo.

Aha muri iyi nyubako nk'uko bigaragarira ku cyapa bakora ubucuruzi bw'amafaranga kuyabitsa, kuyabikuza, kuyohereza mu mahanga ndetse no kuvunjisha amafaranga y'amanyarwanda yo mu mahanga ndetse n'ayo mu mahanga mu ya manyarwanda.

Ahangaha ni ku kigo cy'imari, gishizwe guhererekanya amafaranga avuye mu bihugu ndetse bakaba banakoreshwa mu kuvunja amafaranga atandukanye akomoka mu bihugu bitandukanye. Mu rwego rwo koroshya ubucuruzi.

Aha ngaha, ni ahantu hatangirwa serivise yo kuvunjisha amafaranga y'amanyamahanga muma nyarwanda, ndetse n'amanyarwanda muma nyamahanga. Murwego rwo koroshya ubuhahirane.

Iri ngiri ni iduka ryifashishwa mu kuvunjisha amafaranga yo mu bihugu bitandukanye, hagamijwe mu gukoreshwa mu buryo bw'ubucuruzi. Mbega icyapa cyiza wee!

Aha ngaha ni mu iduka, iduka rikorerwamo n'ikigo gishinzwe ivunjisha ry'amafaranga, ndetse hakaba harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho byihutisha aka kazi.

Aha ngaha ni inzu y'ubucuruzi bwo kuvunjisha amafaranga, bakaba batanga ubufasha bwo kuvunjisha amafaranga y'amanyarwanda mu manyamahanga.

Iyi ngiyi ni inyubako ndetse ndende kandi nziza, ikaba ifite n'ibiro bikorerwamo ubucuruzi bwo kuvungisha amafaranga.

Iyi ngiyi ni inzu ikorerwamo ubucuruzi bwo kuvunjisha amafaranga mu buryo bwo koroherezanya ubuhahirane, bakavunja amafaranga y'amanyamahanga mu manyarwanda cyangwa se ay'amanyarwanda muya.

Aha ngaha ni ahantu bavunjishiriza amafaranga y'amanyamahanga mu manyarwanda ndetse hari umugabo uhagaze urimo urandika ibiciro uko bigiye bikurikirana bitewe n'ifaranga ushaka kuvunjisha.

Izi ngizi ni intebe nziza cyane zo mu ruganiro, zifite amabara meza cyane y'umweru, n'umuhondo, n'umukara izi ntebe zikaba zikozwe mu mbaho ziva mu biti by'iwacu mu Rwanda.

Aha hantu ni ahantu barira, hari intebe ameza, kumeza hariho uturabo twiza cyane pe. Izi ntebe ni nziza, zikozwe mu mbaho nziza cyane.

Aha ngaha ni mu ruganiriro kubona izi ntebe zikozwe neza kandi ni nziza, zikaba zikozwe mu mbaho ziva ku biti byiza by'iwacu mu gihugu cy'u Rwanda.

Iyi ngiyi ni ameza bariraho. Aya meza ni meza pe ni umukara, akaba afite n'ibara ribengerana nka zahabu nziza cyane, ituruka mu gihugu cy'abaturanyi.

Iyi ngiyi ni ihoteri, ndetse ni ahantu heza cyane waruhukira, ukanafatira amafunguro yawe, kuko ni heza kandi ni hagari.

Iyi ngiyi ni inyubako nini nziza cyane, yitwa hoteri. Ikaba icumbikira abantu ndetse n'abandi baba baje bayigana.

Ahangaha ni mu cyumba. icyumba kirimo ibikoreshwa byose igikoresho gikoreshwa mu kwerekana amashusho, uburyamo ndetse hakaba hashobora kuba hari mu macumbi acumbikirwamo abantu bakahishyura.

Urugurubu rupapuro rwerekana ibiribwa ndetse n'amafaranga bigura, muri hoteri Kiyovu iherereye mu mujyi wa Kigali.

Aha ngaha ni mu cyumba kiberamo inama. Ndetse iki cyumba nubwo nta bantu bahari ariko kimaze gutegurwa nk'ikigiye kuberamo inama ndetse akaba ari no mu ihoteli, imbere ku meza imeza y'umukara hari amazi meza y'inyange ndetse n'udutabo bandikamo imyanzuro y'inama.

Aha ngaha ni umuntu wicaye mu biro ndetse uyu muntu yicaye imbere ya mudasobwa, aha ari ni mu ihoteri ni umukozi wayo.

Aha ngaha ni mu busitani, ubusitani burimo intebe nziza zo mu ruganiriro, aha hantu uko bigaragara ni kuri hotel, aho abantu baruhukira, ndetse bakahafatira n'amafunguro.

Inyubako nini kandi yubatswe mu buryo bugeretse hakaba hakikijwe n'ibiti ndetse n'ibirango biyobora mu muhanda uhuriramo inkomane nyinshi.

Iyi ngiyi ni ihoteri, hoteri nziza cyane yubatse ahantu heza, ahantu heza ho kuruhukira no gufatira ifunguro, kuku hakikijwe n'ibiti, n'ubusitani bwiza, bituma uhumeka ukanagira umwuka mwiza.

Ahangaha nk'uko bigaragara, ni mu busitani bwiza cyane, ndetse burimo n'intebe, bicaraho bari kuganira, mbega indabyo nziza zitatse ubusitani, aha hantu ni heza cyane.

Icyi ni icyumba cyo muri moteri kiberamo inama, kirimo intebe nziza pe, icyumba gifite inguni enye nziza cyane rwose biragaragara.

Uru nguru ni urupapuro rwifashishwa ahantu batanga gufasha ku bantu bakeneye ibiribwa, uru nguru rukaba rwerekana ibiribwa ndetse n'amafaranga bigura.

Iyi ngiyi ni inyubako ndende, iyi nyubako ikaba itangirwamo ubwishingizi butandukanye bw'ibinyabiziga, ubw'amapikipiki ndetse n'ubw'abantu n'ubw'ibicuruzwa ndetse n'amazu.

Aha ngaha ni kwishami rya Muhanga ry'ikigo gitanga ubwishingizi bw'ubuzima ndetse nubw'ibinyabiziga, bikaba bigirira umumaro abanyarwanda.

Ahangaha ni ku biro by'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi ku binyabiziga ndetse n'abantu ku buryo mu gihe bagize impanuka iki kigo kibishingira, iki kigo kigoboka Abanyarwanda.

Aha ngaha uko hameze, ni inyubako ndende, yagenewe ubucuruzi, ndetse hakaba hari n'ibiro by'ikigo gitanga ubwishingizi bw'ikigo gitanga ubwishingizi bw'ibinyabiziga ndetse no kubantu.

Iyi ngiyi nkuko uko bigaragara ni inyubako ndende kandi nziza yinyubako ikaba ikorerwamo n'ikigo cy ubwishingizi gitanga ubwishingizi kugira ngo abantu babeho mu mutekano.

Nk'uko bigaragara iyi ngiyi ni inzu ndende ikaba ikorerwamo n'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi, aho gitanga ubufasha ku baje bakigana.

Aha ngaha ni mu nyubako, ikorerwamo ikigo cy'ubwishingizi ndetse hakaba hari n'abantu baje kukigana, barimo barafashwa n'abakozi b'icyo kigo gitanga ubwishingizi.

Iyingiyi ni inyubako ndetse ndende kandi nziza, iyi nyubako ikaba iriho ibiro by'ikigo gitanga ubwishingizi ku binyabiziga ndetse n'abantu.

Iyi ngiyi ni inyubako nini cyane, ndetse ikaba ikorerwamo n'abashoramari batandukanye. Netse hakaba hari n'ibiro by'ikigo gishizwe gutanga serivise z'ubwishingizi kizwi nka sonarwa.

Aha ngaha hari umugabo n'umugore bicaye imbere ya mudasobwa ndetse bicaye hakaba hari n'itangazo ryerekana ko ushobora kugera ku ntego zawe z'amafaranga wifashishije inguzanyo y'ikigo k'imari runaka.

Aha ngaha nk'uko bigaragara, aba bagore bari ku gishushanyo cyamamaza, cyerekana ko batanga inguzanyo cyane cyane mu iterambere ry'umugore.

Aha ngaha turi ni mucyumba k'ikigo k'imari, ndetse aha hantu hakaba hatangirwa inguzanyo zitandukanye.

Ahangaha nkuko bimeze hari umugabo wicaye wambaye ishati y'umweru ,imbere ye hari abana b'urubyiruko batanu, bameze nkaho baje kureba ubufasha kuri uyu mugabo wicaye imbere ya mudasobwa.

Ahangaha ni umugabo ufashe ikawa mu ntoki, ndetse bakaba barimo baranamamaza ikigo cy'imari, kugira ngo kigufashe mu gutangira ibikorwa byawe bibyara inyungu.

Aha ngaha ni kukigo k'imari. Hahagaze umukobwa urimo uramwenyura ndetse aha hantu bakaba batanga ubufasha bw'uburyo wabonamo inguzanyo muburyo bukoroheye

Ahangaha nkuko bigaraga ni umugabo wishimye cyane ameze nkuvuye gufata iyi nguzanyo ya miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri ndetse iyi nguzanyo iba ari nziza cyane kuko ituma ukomeza kwiteza imbere.

Aha ngaha ni mu isoko rinini ricuruza imyenda, rikaba ricuruza n'udukapu two gutwaramo ibintu, bakaba banadoda imyenda nk'uko bigaragara.

Aha ngaha ni ahantu bacururiza imbuto bita mu isoko, harimo inyanya nziza zimeze nk'izafumbijwe n'ifumbire nziza y'imborera y'abanyarwanda.

Iyi ngiyi ni inyubako nini isize amabara y'umweru ndetse yegeranye n'umuhanda, iri ingiri rikaba ari isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye.

Uyu muhungu n'aba bakobwa bari mu isoko ridoda imyenda. Iri soko harimo imyenda myiza bakaba badoda imideri igezweho.

Uko bimeze uyu nguyu wambaye umupira w'umutuku, ni umugabo uvuye mu isoko guhaha ibintu byinshi nkenerwa mu buzima bwa buri munsi.

Iri ngiri ni isoko ricururizwamo imbuto, iri soko ririmo imbuto nziza, harimo inyanya nziza za kinyarwanda, n'intoryi n'ibindi bicuruzwa byinshi bicuruzwa mu isoko, iri soko ririmo ibintu byose wakenera.

Ahangaha ni mu isoko rinini isuku rihuriwemo n'abantu benshi ndetse iri soko rikaba rigurisha imyenda yo kwambara cyane cyane imyenda y'igitsina gore iyi myenda ni myiza cyane.

Ahangaha ni mu isoko ndetse iri soko rikaba ririmo imyenda myiza y'abagabo, iy'abagore, iy'abana ndetse hakaba hari n'abantu baje guhaha iyo myenda kandi myiza.

Ahangaha uko hagaragara mu isoko ndetse iri soko rikaba ririmo imyenda myinshi kandi myiza iri soko ririmo n'abantu bari kuguriramo kandi barishimye hameze neza.

Iri ngiri ni isoko, iri soko rikaba ririmo abacuruzi benshi ndetse n'abagura higanjemo cyane abagore, iri soko ricuruza ibyo kurya bitandukanye cyane cyane imbuto n'imboga.

Iyi ngiyi ni inyubako ndende cyane, iherereye mumugi wa Kigali mu Rwanda. Iyi nyubako ikaba ikorerwamo n'ibigo by'imari, ndetse n'amaduka acuruza ibintu bitandukanye.

Iyi ngiyi ni inyubako nini iyi ngiyi ikaba ari isoko rinini bakoresha barimo barahaha ibicuruzwa, bigiye bitandukanye, ibyo kurya ndetse n'ibindi bikoresho dukoresha mu buzima busanzwe.

Aha ngaha uko bigaragara ni mu isoko. Ndetse irisoko rikaba ari isoko ririmo ibyiganjemo imbuto , imboga, bikaba binafasha umubiri kumererwa neza.

Iyi ngiyi ni inyubako nini cyane, ndetse iyi nyubako rikaba ari isoko ricururizwamo ibicuruzwa byinshi kandi bitandukanye, byifashishwa n'abanyarwanda mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Aha ngaha nk'uko bigaragara ni mu isoko ricuruza imbuto uyu nguyu ni umugore ucuruza izi mbuto harimo ibishyimbo, imineke, inanasi ndetse n'izindi.

Aha ngaha ni akazu keza cyane kakozwe mu mabara y'umuhondo, hakaba hicayemo abakozi babiri bashinzwe gutanga ubufasha kuri serivisi z'itumanaho ku murongo mugari.

Aha ngaha uko bigaragara, ni umuntu ufite telefoni igendanwa, uri kuri murandasi, urimo akoresha serivisi zigendanye n'amafaranga.

Aha ngaha ni ahantu hari umukozi ushinzwe gutanga serivisi zigendanye n' amafaranga ariko mu buryo bw' ikoranabuhanga. Ndetse nko gutanga iyakure ikoreshwa kuri murandasi.

Aha hantu hari icyapa cyerekana ko bishyura ibyo baguze bakoresheje uburyo bwa telefoni igendanwa hishyuwe hakoreshejwe telefoni amafaranga ntatangwe mu buryo bwo mu ntoki.

Aha ngaha hari abagabo babiri, umwe wicaye wambaye impuzankano nk'umukozi ukorera ikigo gishinzwe itumanaho, akaba arimo araha ubufasha kuri uyu mugabo uhagaze.

Ahangaha nkuko bigaragara ni ahantu hatangirwa ubufasha bwo guhamagara no gukwirakwiza interineti kugira ngo byoroshye ubuhahirane n'ibindi bikorwa byose bikenera amafaranga hifashishijwe itumanaho.

Aha ngaha ni mu muhanda, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'akazu keza gatangirwamo ubufasha kuri serivisi z'itumanaho ku kigo kizwi nka MTN.

Nk'uko bigaragara aba bantu uko ari babiri, bari ku nzu icururizwamo, serivise zifashishwa mu guhamagara, kohereza no kwakira amafaranga bikoreshejwe ikoranabuhanga.

Aha ngaha ni ku biro bitangirwaho umuyoboro wa telefone igendanwa, aha batanga ubufasha bwo kugura amayinite mu rwego rwo gukoresha iyakure, no guhamagara, no kohereza, no kwakira amafaranga.

Nkuko bigaragara, iyi ngiyi ni ipikipiki, yifashishwa mu gutwara ibicuruzwa baguze kuri murandasi, kugira ngo ibigeze kuri ba nyirabyo babiguze.

Uru nguru ni urubuga nkoranyambaga rwifashishwa gucururizwaho ibicuruzwa bitandukanye mu Rwanda. Akaba bikorerwa kuri murandasi, umuntu atavuye iwe.

Urubuga rwitwa murukari rikaba ari isoko rikorera kuri murandasi rikaba ricuruza ibicuruzwa byinshi cyane cyaney'ubwiza n'ibindi by'ikoranabuhanga bakaba babikuzanira iwawe mu rugo.

Urunguru ni urubuga rukorera kuri murandasi, uru rubuga rukaba rukuzanira ibyo wahashye iwawe bidasabwe guhaguruka, ndetse rukaba rutanga serivisi nziza cyane nk'uko bigaragarira amaso.

Aha ngaha nk'uko bigaragara uyu muntu avuye ku ipikipiki ye, akaba ajyanye ibicuruzwa byaguriwe murandasi, akaba abijyanye k'uwabiguze aho ari mu rugo.

Uru nguru ni urubuga rukorera kuri murandasi rucuruza ibicuruzwa byinshi cyane, harimo byinshi byerekeranye n'ibikoreshwa mu ikoranabuhanga, ndetse rukaba rukora iminsi irindwi kuri irindwi n'amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane.

Uru nguru ni urubuga rwo kuri murandasi, rukaba rucuruza ibicuruzwa bitandukanye, aho ubigura uri mu rugo bakabikuzanira iwawe udakoze urugendo na rumwe.

Urunguru ni urubuga rukorera kuri murandasi, mu rwego rwo koroshya ibicuruzwa, ugahaha ibicuruzwa, unyuze kuri murandasi, bikakugeraho iwawe mu rugo.

Iyi ngiyi ni ipikipiki yo muri kasha iyipikipiki ikaba ijyana ibicuruzwa baguriye kuri murandasi ku rubuga rwa kasha ipikipiki ikayibagezaho mu rugo.

Uru nguro mu rubuga rukorera kuri murandasi rwitwa kigure, uru nguru rukaba ari urubuga rw'abanyarwanda rukaba rwifashishwa mu kugura ibintu byose imyenda, ibirato ndetse n'imbuto nziza.

Uru nguru ni urubuga rukorera kuri murandasi, rukaba rwitwa e-guriro, rukaba rucuruza ibicuruzwa bitandukanye, ukabigura uri iwawe bakabikuzanira.

Urunguru ni urubuga rwo kuri murandasi, uru rubuga rukaba rukoreshwa mu kugura imyenda y'abagore myiza kandi itandukanye, ukayigura uri iwawe bakayikuzanira.

Uru nguru ni urubuga nkoranyambaga rwifashishwa mu kugura imyambaro y'abagabo n'imyambaro y'abagore hifashishijwe iya kure umuntu bitamusabye kuva mu rugo akayigura bakayimuzanira iwe.

Iyi ngiyi ni inzu nziza ndende igurishwa ikaba ihereye ku gisozi kabugu ikaba igurishwa amafaranga agera kuri miliyoni magana atatu mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Iyi ni inzu irimo utubati two mu gikoni irimo n'ahantu bacomeka ibikoresho by'ikoranabuhanga igura miliyoni ijana na cumi neshanu z'amanyarwanda.

Iyi ngiyi ni inzu nziza ikaba ikodeshwa amadolari magana atanu mirongo itanu y'amanyamerika ikaba iherereye Kigali mu Rwanda Kabeza mu mujyi wa Kigali.

Aha ngaha uko bimeze ni mucyanya cyahariwe guturwamo n'abantu ndetse hakaba hari n'ikibanza kigurishwa miliyoni cumi n'eshanu y'u Rwanda, kikaba giherereye i Musave, Bumbogo.

Aha ngaha ni inzu nziza cyane iteye amarange meza cyane asukuye, ikaba irimo iragurishwa amafaranga angana na miliyoni ijana na mirongo itatu z'amanyarwanda, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda.

Ikigiki ni icyumba cyo kuraramo kikaba giherereye Kabeza mu mujyi wa Kigali kikaba kigizwe n'ibyumba bibiri kikaba gikodeshwa amafaranga magana atanu mirongo itanu yo mu gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika.

Iyi ngiyi ni inzu nziza nini ifite uburyamo bwiza. Iyi ngiyi ikaba ari inzu ikodeshwa mu mafaranga y'Amanyamerika agera kuri magana atanu mirongo itanu ku kwezi. Inzu ikaba iherereye Kigali Kabeza mu Rwanda.

Nkuko bigaragara, iyi ngiyi ni inzu ikaba irimo icyumba kirimo igodora yo kuryamaho, hakaba harimo na matara, iki cyumba kikaba gisize n'amarangi meza. Iyi nzu ikaba iherereye Kibagabaga mu mujyi wa Kigali, ikaba ikodeshwa amadolari y'Amerika igihumbi magana atanu.

Iyi ngiyi ni inzu iri mu mujyi wa Kigali irimo iragurishwa amafaranga miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'Amanyarwanda. Iyi nzu kandi ikaba ari nziza nk'uko bigaragara.

Iyi ngiyi ni inzu iherereye i Kigali ikaba irimo iragura miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amanyarwanda. Iyi ngiyi ni inzu nziza cyane ifite urugo runini kandi rwisanzuye ikaba iherereye i Kanombe

Iyi ngiyi ni inzu igurishwa, iherereye Kabeza mu mujyi wa Kigali, ikaba igurishwa amafaranga angana na miliyoni ijana na mirongo itatu z'amanyarwanda, ikaba iherereye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ifite n'ubwiherero bwo mu nzu.

Iyi ngiyi ni inzu nziza iherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, ndetse ikaba igurwa amafaranga angana n'akayabo ka miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda, iyi nzu ni nziza iberanye no guturwamo.

Iyi ngiyi ni inzu igurishwa iherereye Kibagabaga mu mugi wa Kigali, ikaba igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu n'eshanu z'amafaranga y'Amerika, iyi nzu ikaba ifitemo n'uburyamo bwiza.

Nk'uko bimeze ni inzu nziza igurishwa ikaba iherereye kimironko kwa sekimodo ikaba ifite ibyumba bitatu byo kuraramo n'ubwogero butatu muri buri cyumba ndetse ikaba ikodeshwa amafaranga y'ibihumbi magana atatu by'amanyarwanda ku kwezi.

Iyi ngiyi ni inzu nziza. Inzu iherereye i Kigali, i Kanombe ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu by'amafaranga y'u Rwanda. Ndetse iyi nzu ikaba igizwe n'ibyumba bitatu byo kuraramo ndetse n'ubwogero bubiri. Iyi nzu iri ahantu heza cyane.

Aha ni inzu nziza cyane ifite ubusitani ikaba ikodeshwa. Ikaba ari aho bita i Kigali muri Kanombe. Ikaba ifite ibyumba bitandatu byo kuraramo, ndetse ikaba ifite n'ubwogero butatu. Ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana ane y'amanyarwanda.

Aha ngaha uko bigaragara ni i Kigali, i Kibagabaga. Aha hantu hari umugabo uri mu mbuga y'uru rugo ndetse iyi nzu, ikaba ari inzu igurishwa iherereye i Kigali i Kibagabaga ikaba iri ku giciro cya miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza cyane. Iyi nyubako ikaba ifite inzu ndende, ndetse akaba ari ahantu hagenewe gushorwamo imari. Ndetse aha hantu hakorewe ubucuruzi, cyangwa hakaba ahantu ho guturwa haba ari heza cyane.

Ahangaha nkuko bigaragara, ni umukobwa ugiye kwinjira mu iduka rinini cyane, aya maduka akaba abarizwamo ibyo kurya, ibyo kunywa, byinshi kandi bitandukanye, by'ubwoko bwose.

Iri ngiri ni iduka. Iri duka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, ndetse iri duka ryaganywe n'abagore batatu, undi muntu uri kubaha serivisi, ndetse iri duka ni ryiza cyane kuko ritatse neza.

Iringiri niduka rinini cyane iriduka ricururizwamo ibintu bitandukanye cyane cyane ibijyendanye nibyabagore ndetse hakaba harimo nibyo kurya byiza cyane.

Aha ngaha nk'uko bigaragara aha ngaha ni mu cyumba cy'ubucuruzi, gicururizwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa byiza bigirira umuntu umumaro.

Iri soko abantu bahahiriramo bavuye mu kazi, ibiribwa ndetse n'ibindi bintu byose bikenerwa. Rirasa neza kandi uri kubona ko n'abantu baririmo baryishimiye kurihahiramo.

Aha ngaha ni mu iduka rinini cyane ririmo umugore ndetse iri duka rikaba ricuza imitako igendanye n'umuco wacu.

Iyi ngiyi ni inzu ngari ikorerwamo ubucuruzi bw'ibicuruzwa by'ibintu, hakaba hanatangirwa ubufasha butandukanye, bwaba ubwo muri murandasi cyangwa se ubwo gutanga amafaranga no kuyabikura iyi nzu ni ndende.

Uko bigaragara abangaba ni abaturage bashobora kuba baje kugana ku kigo gishinzwe ubwiteganyirize mu Rwanda, baricaye kandi bicaye mu cyumba cy'inama.

Iyi foto iriho umudamu urimo uramwenyura, irerekana ko ari ejo heza kanditseho ngo "nzigamira ku bw'ejo hazaza hanjye n'ejo heza wowe se"? iyi foto ni nziza.

Ikigaragara cyo uyu mugabo ufite indangururamajwi akaba arimo arashishikariza abanyarwanda n'abaturarwanda kugana ikigo cy'ubwisungane mu kwivuza, bishyura mituweri ku gihe kugira ngo batarembera mu rugo.

Ahangaha hari abaturage baje kwitabira ubukangurambaga bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize cya ejo heza kugira ngo bakangurire kwikoresha kuko ni nziza cyane ku baturarwanda.

Aba bantu uko bicaye bari mu nama, ndetse uyu mugabo afite indangururamajwi, ari kubasobanura kubigendanye n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize mu Rwanda, uburyo ari kiza ku baturarwanda twese.

Iyi nzu ni nziza, iyi nzu ni ndende, iyi supermarket ni iyo ku Gishushu.

Iri ngiri ni iduka rinini nk'uko bigaragara, ririmo abantu ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye, ibicuruzwa by'ikoranabuhanga, ibicuruzwa byo mu rugo, hakaba ndetse harimo n'ibyo kunywa.

Aha ngaha nk'uko mubibona, ni inzu nini icururizwamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, harimo ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu rugo, nk'iby'amasuku.

Iri ngiri ni iduka rinini cyane. Iri duka ribarizwamo ibikoresho bitandukanye byo mu rugo ndetse hakabarizwamo n'ibyo kurya n'ibyo kunywa byiza cyane, by'umwimerere